Iyi ni polisi ishinzwe kuzimya umuriro ahantu hahiye, urabona ko barimo barimo barazimya umuriro ahantu hahiye, ndetse babiri bafite za kizimyamwoto ndetse n'inyuma yabo hari amakamyo bagendamo.